Ni ngombwa niba wumva utameze neza wumva hari icyahindutse mu mubiri ko wagana ikigo nderabuzima ,cyangwa niba ari umwana cyangwa se abawe ukagenda bakabapima bareba icyo barwaye.

Umwana ari kuvoma ku mugezi avomesheje indobo biragarara ko ari mucyaro muri vireji.

Gufata neza umwana uri mu nda, bimufasha gukura neza ndetse bigafasha n'umubyeyi ndetse Yaba yanavutse, bakamwitaho, agakura, akajya mu muryango, ndetse yanarwara bakamuvuza.

Umuryango wishimye ishema ryiza ndetse n'ishema ry'igihugu, kwishima birahenda ndetse kurya ukarya neza na byo bite ibyishimo.

Abantu baku ni ngombwa ko bapimwa umuvuduko w'amaraso, bapimwa isukari n'ibindi byose kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze, kuko akenshi abakuze baba bafite indwara nyinshi.

Mu gihe umuntu yavunitse akenera insimburangingo cyane cyane imbago kugira ngo imufashe kugenda bitamugoye, ikindi kandi ni ingenzi.

Mu gihe turi gukora siporo, tuba tugomba kugira imiti itandukanye ndetse n'ibikoresho byadufasha, nka vazerine, pomadi n'ibindi kugira ngo bigende neza.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane cyane buri gitondo ndetse na nimugoroba, kuko bituma umubiri ukora neza kandi ukagira ubuzima buzira umuze.

Ubutabazi ni ingenzi cyane cyane ku bakinnyi bari mu kibuga, bashobora kuvunika ndetse hakaza ubutabazi bwihuse, cyane cyane abakuruwa ruje, bakamuha ubutabazi bw'ibanze mbere yo kumugeza kwa muganga.

Iki ni icyatsi gakondo, gikoreshwa mu buvuzi, kirafasha cyane kandi n' ingenzi ku bagikoresha ndetse n'abakizi.

Umuravumba ni icyatsi gakondo dukoresha twivura cyane cyane ibicurane ndetse n'inkorora, birafasha cyane kandi nta ngaruka kigira.

Imiti dukora mu bimera yo mu byatsi gakondo ituvura indwara zose kandi biba byizewe ntangaruka nyinshi bigira ku buzima bwa muntu.